Iyi shusho iri kutwereka abantu bari hamwe bambaye impuzankano bigaragara ko hari umuntu bakurikiye uri kubaha ikiganiro runaka.

Iyi shusho iratwereka aho abaturage bateraniye bari mu nama, bikaba bigaragara ko ari ku kagari, akaba ari umuyobozi uri kubagira inama ababwira uburyo bakoramo ngo baniteze imbere.

Iyi shusho irerekana aho abantu bari kugenda, kandi hakaba hari n'ibiti byabugenewe bitwara umuriro w'amashanyarazi. Hakaba hari n' inzu z'abaturage zihari.

Iri shusho riri kutwereka abantu babiri harimo ingororwa n'umucunga gereza aho umwe ari imbere undi amuri inyuma.

Iyi shusho irerekana imodoka y'abapolisi mu muhanda imbere yayo hakaba harimo n'umumotari utwaye umugenzi. Umupolisi akaba ari kureba uko ibinyabiziga bigenda.

Iyi shusho irerekana ahantu ku muhanda hamurikiwe neza cyane, kandi hari kunyuraho imodoka yabugenewe nini itwara abagenzi ikora muri serivisi zitwa za ritiko.

Ishusho iratwereka ahantu hari ibyuma bitandukanye; harimo n'amapine y'imodoka, hakaba hakorerwamo serivise za leta.

Iyi shusho iratwereka aho abantu bajya kugororerwa bakoze ibyaha bitandukanye, iryo gororero rikaba riherereye mu karere ka nyamagabe mu ntara y'amajyepfo.

Iri shusho riri kutwereka ahantu hari amazu akikije umuhanda no hirya yaho hagaragara ko hari inzu zinini zigiye hejuru abantu batuyemo.

Iyi shusho iratwereka ahantu umuhanda unyura wa kaburimbo bigaragara ko hatuwe n'abaturage, kandi ku ngo zabo hakaba hagiyeho hariho indabo zitandukanye, ukaba ubona ko ari ahantu heza cyane.

Iri shusho ni kutwereka umuhanda aho hari abanyamaguru bari kugendamo, n'imoto zitwaye abantu.